Ibi ni ibitaro bya sehashibe i Butare haragaragaraho ibitaro nyirizina, hakagaragaraho n'imodoka z'imbangukiragutabara zitwara indembe abantu barembye.

Iki ni icyumba indembe zivurirwamo, indembe zitabasha kumenya imimerere zirimo, cyangwa zirembye cyane. Harimo ibitanda bavurirwaho, bavurirwaho baryamyeho, imashini zireba uko umutima utera, n'amarido atandukanya umurwayi n'undi.

Ndi kubona igikorwa cy'ubutabazi aho abantu bari kuzimya inkongi y'umuriro bakoresheje amazi, mu buryo bw'ubutabazi bari gufatanyiriza hamwe, bari kuzimya inkongi y'umuriro.

Biragaragara ko abantu bari bari mu nama yahuje abantu benshi kandi bakaba basabwe gutanga ibitekerezo runaka ku kintu bari bari kuganiraho, harimo umugabo uri gutambagiza igiseke bashyiramo impapuro z'ibitekerezo, wenda se gutora umuntu runaka bari kwandika ku dupapuro bagatanga ibitekerezo.

Imodoka ndabona iri mu muhanda, ugendwamo n'ibinyabiziga, ndetse ku ruhande hari n'umuhanda w'abanyamaguru, iyi modoka itwara ibintu urugero nk'abantu bimutse ishobora kubatwarira ibi ibintu, kandi ishobora no gupakira ibikoresho runaka by'ubwubatsi nk'amatafari, amabati n'ibindi.

Uyu ni umuhanda uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, imodoka, moto, amagare kandi hagaragaramo n'icyapa cy'abagenzi, aho imodoka za rusange zitwara abagenzi zihagarara.

Uyu muhanda ndabona ari uwa kicukiro santere ku kiraro cyo hasi no kejuru haparitse moto nyinshi, aho abagenzi baba baza gutega amamoto, imodoka nazo ziri kugenda. Iyi foto biragaragara ko yafashwe ku masaha y'umuhoroba w'ijoro kuko amatara araka yo ku muhanda.